Urwego rw'ubuzima ni urwego rutezwa imbere kandi rushyigikiwe na leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo y'umuturage ku isonga no kwita ku buzima bwiza bw'abaturage. Leta y'u Rwanda mu buryo bwo gufasha abaturage kuba serivisi z'ubuvuzi byihuse, igenda yongera ibikorwa remezo bikenewe nko kongera im imbagukiragutabara ndetse no kubaka ibigonderabuzima.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo kwita ku buzima bw'abatuye igihugu, igenda ishishikariza abaturage mu gufashanya no gushyira hamwe, kugira ngo barwanye ndetse baneshe ibibazo bigenda bibugaririra bya buri munsi, ibibazo bituma badatera imbere, ibibazo birwanya iterambere ry'igihugu.

Leta y'u Rwanda muri gahunda yayo yihaye yo guteza imbere ndetse no gushyigikira ubuvuzi, yagiye ishyiraho gahunda zitandukanye zo kwegereza abaturage serivisi z'ubuvuzi harimo no gushyiraho ikoranabuhanga ribafasha kugira ngo ibisubizo bibashe kubageraho vuba, hifashishije utudege twa drone kugira ngo yihutishe serivisi z'ubuvuzi.

Hano mu muhanda habereye impanuka, iyi modoka yiyii kampanyi y'ubwikorezi ya difera yahuye n'uyu munyegari, uyu munyonzi barasekurana iramugonga, none imodoka yangiritse nigare ryangiritse abashinzwe umutekano bahageze kugira ngo bakemura icyo kibazo cyabaye.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo gushyigikira imibereho myiza y'abaturage. Igenda ishyiraho gahunda nyinshi zigiye zitandukanye. Zifasha abaturage mu kwivana mu bukene ndetse n'abaturage bamerewe nabi kugira ngo ibafashe kwiteza imbere no kumererwa neza. Igenda ibafashe mu bikorwa bitandukanye nko kubaremera amatungo n'ibindi bikorwa bibateza imbere.

Ubuzima . Ahangaha aba ni abakozi b'umuryango croix rouge, umuryango Croix rouge ukorera mu Rwanda, begereye abaturage babasangisha serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye dore ko bagira uruhare mu gupima no kuvura indwara zishobora ku kwandura.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo gushyigikira ndetse no kwita kwita ku buzima bw'abanyagihugu, ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange igenda ishyiraho ndetse igenda yubaka ibikorwa remezo, bigenda bifasha abaturage kugirango babashe kujya kwa muganga babashe kubona serivisi z'ubuvuzibegira ubuzima buzima hubakwa amavuriro ndetse n'ibitaro bihagije.

Muri gahunda ya Leta yo kwita ku buzima bw'abaturage, Leta y'u Rwanda igenda yongera umubare w'ibitaro, ndetse n'ahantu abaturage bakwiye kwitabwaho, mu gihe barwaye. Bifasha kwita ku buzima bw'abatuye igihugu, kugira ngo bagira amagara mazima, ndetse batabura ubuzima, kandi binafasha mu iterambere ry'igihugu muri rusange.

Muri gahunda ya leta yo kwita ku buzima bw'abanyagihugu ndetse no gushyira imbere ubuzima bw'umuturage, leta y'u Rwanda igenda ishyiraho ahantu hatandukanye ndetse hafi y'abaturage, abantu bashobora kwivuriza ndetse bakanabonera imiti hakiri kare indwara zitarabageza kure ndetse bataranaremba aho hantu banafatira inama z'ubuzima bwa buri munsi.

Urwego rw'ubuvuzi rushyira imbaraga mu kwihutisha serivisi zitangwa ndetse no kurengera ubuzima bw'abanyagihugu, ruzana ikoranabuhanga mu buvuzi aho umuturage avurwa agapimwa ndetse ibisubizo bye bikamugeraho ku ikoranabuhanga mu kwihutisha serivisi zitangwa.

Ubuvuzi aha umuganga arimo aravura umusaza ufite ikibazo k'ijisho kugira ngo umusaza arusheho kumererwa neza. Ubuvuzi rwose bw'amaso bwateye imbere mu Rwanda tubona ko bwegerejwe abaturage ku rwego rugaragara.

Mu rwego rwo gushyigikira gahunda ya leta y'ubuvuzi kuri bose ndetse no kwita ku buzima bw'abaturage, leta y'u Rwanda igenda ishyiraraho amanama ndetse igashishikariza abaturage, igahamagarira abaturage hamwe kujya bihugure ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'indwara zitandukanye kugira ngo n'uburyo bazirindamo.

Ubuvuzi ni umwuga ndetse ni umurimo ukenerwa cyane w'ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi. Iyo igihugu gifite ubuvuzi bw'uzuye, abaturage baba badahungabanywa n'indwara zi zitandukanye zaduka nko mu Rwanda ubuvuzi bwatejwe imbere cyane umunsi ku wundi.

Ubuvuzi mu Rwanda ni rumwe mu nzego zishyigikiwe kandi zikwiye gushyirwamo imbaraga by'umwihariko, abaturage bakeneye ubuzima bwiza ubuzima buzira umuze kugira babashe kubaho no gukora ibikorwa byabo bya buri munsi. Muri urwo rwego leta igenda yongera umubare waza ambiranse ndetse ikanatunganya ibikorwa remezo kugira babashe kugana amavuriro mu buryo bworoshye.

Ubuvuzi uyu ni umurwayi wagiye kwa muganga, uyu ni umuganga bari kumwe ari kumupima ngo arebe indwara arwaye hanyuma kugira ngo abashe kwitabwaho hakiri kare, indwara itaramugeza kure n'aho yamuhitana.

Ubuvuzi ni inkingi ya mwamba ndetse niyo nkingi ifasha ubuzima bw'igihugu ndetse n'abanyagihugu muri rusange. Leta y'u rwanda igerageza guteza imbere ubuvuzi ndetse igashyiramo imbaraga kugirango ngo ubuzima bw'abaturage bubashe kumera neza. Ishyira laboratwari, aho basuzumira kugira ngo indwara zitinjira abaturage bakitaba imana.

Ubuvuzi ni ingenzi mu Rwanda kugira ngo rugire abanyagihugu bafite ubuzima buzima. Ni muri u uru rwego leta y'u Rwanda yegereje serivisi z'ubuvuzi ku banyagihugu, aho bajya kwisuzumira indwara bagahabwa imiti hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ko zabahitana ndetse bakaba zateza ibyago n'ibihombomu miryango.

Muri gahunda ya leta yo kwita ku buzima bw'abaturage, leta y'u Rwanda igenda ishyiraho ahantu hihariye ho gusuzumi indwara no kuzivura by'umwihariko, igatanga n'inama ndetse n'amahugurwa ku baganga bapima indwara kugira ngo babashe kuburira abaturage. uburyo bwiza bwo gukoresha ibintu bitandukanye ndetse no kwirinda indwara zandu n'izitandura.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo kwita no kurengera ubuzima bwa muntu, igenda iteza imbere urwego rw'ubuvuzi, ishyiramo ibikoresho bigezweho, byo gusuzuma no gupima abarwayi, bifasha kugira ngo umuturage ataremba ndetse akaba yahitanwe n'indwara. Ibyo bifasha kugira ngo abaturage bamererwe neza, ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Uyu muyobozi ari gutanga ikiganiro ku buzima. Abaturage, inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi muri rusange bahuriye hamwe, mu cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi. Aha ngaha uyu muyobozi ari gutanga ikiganiro, uko umubyeyi akwiye kwita ku buzima bw'umwana ndetse nawe akiyitaho.

Uu ni umubyeyi uri kwa muganga yibarutse umwana, yabyaye akana ke kavukiye kwa muganga aragateruye ari kugasekera, bigaragaza ko yakishimiye cyane kuko ni iby'agaciro kwibaruka kandi ugize amahirwe ukibaruka ari amahoro.

Ubuvuzi, uyu ni umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga kugira ngo amugize, amukingize, aba n'abaforomo, ni umuganga uri gutanga iyo serivisi, arigufasha umubyeyi gukingira umwana we.

Umwana ni umutware kandi umwana ni umugisha. Ababyeyi bashishika kwita ku buzima bw'abana b'impinja cyane cyane iyo bakiri batoya, babamenyera ibyo bakeneye kugira ngo babashe kwita ku buzima bwabo ndetse bakanashishikarizwa gukomeza kubita bamenyera indyo yuzuye, nko kubategura nk'umunyarwanda mwiza w'ejo hazaza.

Uburyo bwiza bw'imitekere hano bari kwigisha uburyo bw'imitekere ugateka indyo yuzuye kandi mu gihe gito, biragaragara ko bafashe ubwoko butandukanye bw'ibiribwa bakabivanga kugirango bivemo indyo yuzuye kandi bitekeye rimwe.

Abangaba ni abaturage baje mu inama. Iyi nama yahuje aba baturage imbere hari abahagarariye inama ndetse n'abItabiriye inama bahawe amazi kugira ngo inama itarangira hari abagize ikibazo cy'umwuma.

Binyuze muri gahunda ya leta yo kwita ku buzima bw'abaturage, leta y'u Rwanda umunsi ku munsi ishishikariza abaturage kwirinda ibiyobyabwenge ndetse no gutanga amakuru ku gihe aho byagaragaye. Ibi bifasha abaturage kugira ngo bababeho bafite ubuzima buzira umuze ndetse bazi neza ibyo bakora kugira ngo birinde indwara ndetse n'ibindi bibazo byaterwa n'ibiyobyabwenge.

Ubuvuzi ahangaha iyi ni farumasi rwose yamamaye, aho irigufasha mu kurwanya uburwayi ndetse no kurandura indwara zigenda zandura, igatanga inama ku buvuzi ndetse ikanatanga n'imiti kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimeze neza cyane.

Mu rwego rwo kwihutisha serivisi z'ubuzima Leta y'u Rwanda ihamagarira ba rwiyemezamirimo ndetse n'abaturage bose muri rusange. Babifitiye uruhushya ndetse n'uburenganzira mu gushinga amafarumasi yabugenewe. Bakurikije amabwiriza ya Leta y'igihugu imicururize y'imiti kugira ngo barengere ubuzima bw'abanyagihugu muri rusange.

Mu Rwanda mu rwego rwo gushyigikira ubuzima ndetse no guteza imbere imivurire ahantu henshi hagiye hatandukanye, hagiye hashyirwa ahantu ho kugurira imiti byoroshye za farumasi, bifasha abaturage kubungabunga ubuzima bwabo.

Muri gahunda ya Leta yo kwita ku buzima bw'abaturage. Leta y'u Rwanda igenda ishyiraho gahunda zitandukanye zo kugira ngo habeho ubukangurambaga ku buzima ndetse no ku ndwara. Leta y'u Rwanda igenda yifashisha ibinyamakuru bitandukanye mu gukangurira abaturage mu kwirinda indwara no kwisuzumisha hakiri kare.

Leta y'u Rwanda nk'umubyeyi muri gahunda ifite yo gushyigikira ubuzima bwiza bw'abatuye igihugu cy'u Rwanda, igenda ishyiraho ubukangurambaga bugiye butandukanye kandi bugenewe kugira ngo bukangurire abaturage, kwita ku buzima bwabo ndetse babashe kumenya neza uko ubuzima bwabo buhagaze banirinda.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda y'igihugu yo kurengera ubuzima bw'abanyagihugu ndetse no kwita ku buzima bwiza bw'abanyarwanda, igenda ishyiraho gahunda ndetse ikanakora ubukangurambaga ku buzima, ihamagarira abaturage ahantu runaka baherwa amahugurwa ndetse ndetse bakangishwa ibijyanye n'ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo kwita ku buzima bw'abaturage ndetse no gushyigikira imibereho myiza y'abaturage, igenda ishyiraho gahunda , ubukangurambaga butandukanye bushishikariza abaturage kwita ku buzima binyuze mu kwita ku mirire, kwirinda indwara ndetse no kugira isuku. Izo gahunda kandi zifasha abaturage mu iterambere kuko bibafasha kugira ubuzima buzima.

Aha uyu ni umukangurambaga wa rbc ari kugaragaza uburyo ari gusobanura ndetse uburyo bwo gukoresha neza agakingirizo, uburyo bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ni igikorwa cyiza ndetse rbc idasiba gushishikariza abaturage.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda yayo yo kwita ku buzima bw'abaturage, ndetse n'abanyagihugu muri rusange igenda ishyiraho gahunda ndetse n'ingamba zigiye zitandukanye igakora n'ubukangurambaga ku buzima aho ihamagarira urubyiruko ndetse n'abantu muri rusange bose ikabaha amahugurwa ndetse n'uburyo bwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ubuvuzi mu Rwanda bwatejwe imbere aho abavuzi bifashisha imiti ya kera yakoreshwaga mu kuvura, bakayikorera amasuka ahagije bakayikoresha mu kuvura mu buryo bugezweho, bifasha mu kongera imitangire ya serivisi z'ubuzima mu Rwanda.

Mu Rwanda rwo hambere hahozeho umuco wo gukora gakondo zigiye zitandukanye, harimo guterekera ndetse n'ibindi bitandukanye no kuragura, n'ibikorwa byakorwaga bagamije kwishakira imiti ya gakondo ndetse no kwikiza uburwayi babaga bafite.

Mu rwanda rwo hambere mbere y'uko ubuvuzi butera imbere, abantu babaga bafite uburwayi bugiye butandukanye by'umwihariko nk'uburwayi bw'uruhu .bishakiraga imiti yo kubuvura nko gukoresha imiti y'igikakarubamba, n'iyindi kandi yarafashaga mu kuvura bakamererwa neza.

Leta y'u rwanda ifite gahunda ndetse gahunda nziza yo gushyigikira ubuzima bw'abaturage, ndetse no kwita ku buzima bwabo. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda, igenda ishyiraho ndetse igenda yegereza serivisi z'ubuvuzi ku baturage, ikabazana aho babasha kwivuza byoroshye, bakitabwaho mbere y'uko indwara ziba cyane zizabahitana.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo kwita no kurengera ubuzima bw'abaturarwanda, yagiye ishyiraho ibigo by'ubuvuzi, ndetse na gahunda z'ubuvuzi, mu buryo bworoshye, ndetse ibyegereza abaturage, kugira ngo hatagira umuturage uremba, cyangwa agahitanwa n'uburwayi. Leta y'u Rwanda yagiye izana amavuriro hafi y'abaturage, ifasha kugira ngo abaturage bashe kubona ubuvuzi mu buryo bworoshye.

Ubuvuzi bw'amatungo. Ibi ngibi, iyi ni imiti ikenerwa cyane n'aborozi b'inkoko, ifasha kongera umusaruro w'ibikomoka ku nkoko, aborozi b'inkoko bawifashisha bawuha inkoko zabo, kugira ngo zibashe gukomeza kumererwa neza.

Gira ubuzima, ahangaha iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima, ni ivuriro, ni herifu posite do sante, ifasha abaturage kubasha kwivuza no kuza kuri serivisi z'ubuzima mu buryo bworoshye.